Umusoro ku nyungu z'ubukode ni iki? Umusoro ku nyungu z'ubukode ni umusoro ucibwa ku nyungu umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona ziturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu Rwanda.

Uru ni urugomero rw'amashanyarazi, n'ikigo gishinzwe gukora ibijyanye n'amashanyarazi, ndetse no gushyikiriza amashanyarazi ku baturage b'igihugu bagiye batandukanye kugira ngo barusheho gukomeza gutera imbere ndetse no kuba ahantu habona hateye imbere.